Biba bikenewe cyane kwegereza abaturage amazi meza kuko nk'iyo abantu bajya kuvoma mu bishanga cyangwa se mu kiyaga kiri ahantu hakikijwe n'ibihuru baba bafite ibyago ko bahurira n'inyamaswa ikabarya.

Umuryango mpuzamahanga ku isi ukurikirana ukagenzura niba ibintu bikorerwa kwa muganga byujuje ubuziranenge imiti ihatangirwa, abaganga bakoramo, bityo bigatuma abarwayi bajyayo barushaho kubona serivisi nziza kandi zinyuze mu mucyo.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu byishimira abaturage ndetse kikishimira kubegereza ibikorwa by'ubuvuzi nko kubegereza inyubako z'ibigo nderabuzima, ibitaro bikuru n'ibindi.

Bigaragara ko abantu benshi tugira impungenge iyo bagiye kudutera urushinge, ariko tujye duhumura kuko abaganga baba barabyize neza kandi babisobanukiwe neza.

Mu muco w'abanyarwanda ni byiza kugarura umwana ku kigo nderabuzima nyuma y'igihe cyagenwe; amezi runaka cyangwa ibyumweru bagapima imikurire ye, bakareba uko ubuzima bwe buhagaze, bakakugira inama kandi agakura neza.

Iyo abayobozi batandukanye bamaze kugera mu nama buri wese yageze mu byimbo bye afite ikaramu n'ikayi yandikisha, imbere ye hateretse amazi, ikiba gisigaye ni ugutega amatwi bakumvana, buri wese akumva igitekerezo cya mugenzi we inama ikagenda neza.

Muganga igihe cyo gutanga imiti, asabwa kuba yambaye yikwije imyenda y'akazi yabugenewe ndetse n'ikarita y'akazi, yambaye ga ku ntoki, yambaye itaburiya y'akazi, mbese agaragara neza kandi afite ibikoresho byabugenewe.

Kubyina imbyino gakondo ni bumwe mu buryo buruhura umubiri haba mu mutwe, mu ingingo ku buryo umuntu ahorana akanyamuneza mu mubiri we muri rusange.

Abaganga abaforomo abatanga serivisi zo mu isuzumiro, baba bagomba kubanza bagafata amabwiriza ya mu gitondo mbere yo gutangira akazi kugira ngo bize kugenda neza cyane.

Usanga ibigo bimwe na bimwe by'amashuri bikora amakosa yo kudashyira amazi ahagije mu kigo bityo ugasanga abanyeshuri barimo barwanira amazi babuze ayo kunywa.

Biba byiza iyo umuntu afashe inkingo zose nk'uko aziteganyirizwa n'ikigo kibishinzwe, izi nkingo zimufasha mu bwirinzi bw'indwara zitandukanye nka diyare, ubushita, kovide cumi n'ikenda n'izindi zandura.

Kwegereza abaturage amazi ni byiza cyane kuko birabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bigabanya igihe bakoreshaga bajya gushaka amazi, kure hirya mu bishanga kandi bakabona amazi meza afite isuku ntibarware indwara ziterwa n'umwanda.

Si byiza gukoresha umwana w'umunyeshuri imirimo ivunanye kuko bimwicira ejo hazaza akitariza icyizere akumva ubuzima bumugoye, ni byiza ko dushyigikira abana bato abanyeshuri tubohereza mu mashuri tukabafasha kugira ibitekerezo byagutse by'ejo hazaza.

Ni ingenzi cyane kugira isuku kandi tukayigirira n'abana bacu, ariko tukitondera uko tubozamo, biranezeza cyane kubona umubyeyi yicaje umwana mu ibasi, yarangiza akamwoza n'amazi meza n'isabune.

Ni byiza ko ikigo nderabuzima gisurwa n'abayobozi bo hejuru bakomeye b'inzobere mu by'ubuvuzi, bakabahugura bakabibutsa inshingano zabo za buri munsi, maze na bo bakabikurikiza bakita ku barwayi neza, bagakomeza gukorera igihugu.

Ni byiza kubaka ibikarabiro bihagije kugira ngo abana igihe baje ku ishuri babanza bakarabe n'amazi n'isabune bityo binjire mu ishuri basa neza basukuye hatagize uri bwanduze undi.

Abana b'urungano banezezwa no gukora ibintu bari hamwe kandi babikunze. Urugero nk'iyo bari gukaraba, bari gusangira, uba ubona bishimye cyane, bafite akamwenyu, n'akanyamuneza ku mutima.

Abana bakunda gukinira kudukarabiro babitewe n'uko badasobanukiwe neza akamaro katwo, igihe umubonye ni byiza kumusobanurira icyo agakarabiro kamara bigatuma na ubwe agira umuhati wo kukarinda.

Nugera ku bitaro bikuru uzahasanga bomboni cyangwa se utumashini twifashisha mu kongerera abarwayi bafite umwuka muke umwuka, ibi ni ingenzi cyane kuko abarwayi benshi baza bazahaye.

Iyo umenyereje umwana umuco mwiza wo gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune, na we arawukurana ndetse akawutoza n'abandi akawubashishikariza.

Ubuvuzi rusange ni byiza ko tugira umunsi mpuzamahanga wo kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, bigatuma barushaho gusobanukirwa neza ibijyanye n'umwuga bakora.

Leta iba igomba gupanga ingengo y'imari izakora muri serivisi z'ubuvuzi ndetse igapanga n'ibindi bikorwa bizateza imbere amavuriro n'ibigo nderabuzima bitandukanye.

Ni ingenzi cyane kugaragariza umuyobozi wanyu urugwiro. Igihe amaze kubahugura no kubaha amabwiriza ni byiza kubyishimira mukamukomera amashyi nawe bimuha icyizere ko yabwiraga abumva.

Guhugura abantu bakuze uburyo bita ku bana ni kimwe mu bintu bifasha ababyeyi kurera neza bityo abana babo bagakura bafite ubuzima bwiza kuko ababyeyi baba barize uburyo bwo kubitaho haba mu ndyo no mu mikurire.

Abantu badafite amazi mu rugo babitewe n'ubushobozi basabwa kujya bajya kuvoma ku ivomero rusange, aho bahasanga umuntu wahagarariye bityo akabafasha kubona amazi kandi bitagize uwo bibongamira.

Iyo umwana afite inyota ntarindira kureba igikombe gifite isuku ngo abe aricyo anywesha amazi, ahubwo we ahita atega intoki akinywera ariko inama z'abaganga zivuga ko ibyiza ari uko wanywesha icupa cyangwa igikombe gifite isuku.

Umubyeyi iyo umwana we agize ikibazo, ni ngombwa ngo amushyikirize umuganga, muganga aramusuzuma ndetse byaba ngombwa akamufata ikizamini cy'amaraso kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze, abone kumuha imiti.

Umuryango wa gira ubuzima. Ni abantu bishyize hamwe bafasha gusigasira uburenganzira bw'abana n'ababyeyi, babateza imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye kandi bakabafasha muri serivisi z'ubuvuzi.

Gukarabya abana ukoresheje amazi meza n'isabune ni umuco mwiza, kuko iyo uwubatoje barawukurana, banakura bakawukomeza, bigatuma babanza gukaraba igihe cyose bagiye gufata amafunguro.

Kimwe mu byo Leta y'u Rwanda yateje imbere, yateje imbere abajyanama b'ubuzima ibagenera amahugurwa azajya abafasha gukurikirana abarwayi babifashijwemo n'abaganga baba bafite ubumenyi bwo kwita kuri buri murwayi.

Ntabwo dukwiye guceceka dukwiye gukora ubukangurambaga tukabwira abavandimwe bacu, inshuti zacu, yuko icyorezo cya sida kigihari dukwiye kuganira uburyo twakiyirinda ndetse tugahugurana.

Igihe urimo woza ibyombo, amagamoro kandi uhetse umwana, ni byiza ko ujisha ugakomeza kugira ngo adahubuka mu mugongo, akitura hasi ku bw'impanuka.

Ni byiza cyane kandi ni ingirakamaro kwegereza abaturarwanda amazi meza kugira ngo biborohereze urugendo n'imvune za hato na hato n'umwanya batakazaga bajya kureba amazi kure bityo bakabaho mu buzima bwiza.

Kutegereza abaturarwanda ivomero ryiza kandi rijyanye n'igihe birababogamira, hari aho usanga bakora urugendo rurerure bajya kuvoma ku masoko cyangwa se ku mavomero atajyanye n'igihe aho bibasaba imbaraga nyinshi.

Ni ingenzi gusigasira uburenganzira bw'abana batoya, tubajyana mu mashuri, tubarinda imirimo ivunanye no kubakorera amajerekani batafitiye ubushobozi bwo gutwara, ugaragaweho n'ibi ashobora kubihanirwa.

Gutera umuntu urushinge si ibintu bya buri wese, bisaba umuganga w'inzobere mu gutera inshinge kuko ushobora kurumumutera nabi bigatera umurwayi indi ndwara irenzeho yari afite, ni byiza ko umuganga w'inzobere ariwe we ugomba gutera urushinge.

Kwambara impuzankano isa ku bantu bose bitabiriye amahugurwa bigaragaza isura nziza, kandi bigatanga icyitegererezo ku bantu bose.

Igihe wicaye imbere ya muganga, agiye kugutera urushinge rw'indwara runaka cyangwa se agukingira, ni ngombwa ko witonda ukagaragaza ubwitonzi, akarugutera utinyeganyeza.

Umuganga iyo ari gusuzuma ibizamini byatanzwe n'umurwayi, agomba kuba yambaye yifubitse, yikwije ahantu hose, yambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki neza.

Iyo dukaraba dukoresheje amazi meza n'isabune, tuba dushyira ubuzima bwacu ahantu heza. Bituma twirinda indwara, kandi tugahora dusa neza iyo turi mu bandi, ahantu hose.

Buri bitaro ndetse na buri kigo nderabuzima hagomba kuba hari sale y'inama, igihe umuyobozi w'ibitaro akeneye kuba yaganira n'abaganga, bahurira muri sale y'inama akabaheramo amahugurwa n'amabwiriza.

Hari imirimo usanga dukoresha abana ukabona yewe tubatumye nko kuvoma amazi tubahaye amajerekani menshi arenze abiri, bagezeyo barayavomye ariko twirengagiza ko tuba tubicira uburenganzira bwabo bw'ejo hazaza.

Kwicara mu biro udafite amazi imbere yawe kandi uri kuri mudasobwa bishobora kugutera siteresi zo mu mutwe, ni byiza ko uba ufite amazi kugira ngo age afasha kuruhura umubiri.

Iyo witabiye inama nibyiza ngo ube ufite ajenda n'agakaramu kugira ngo ubone uko wandika ibyavugiwe mu nama ndetse n'igitekerezo kandi haba hari amazi kugira ngo utaza kunanirwa umubiri.

Birakwiriye ko igihe uri guhugura abaganga cyangwa se abajyanama b'ubuzima ku buryo bakoresha imiti no kuvura, ubaha igitabo cy'imfashanyigisho na bo ubwabo bakajya babyisomera.

Gukoresha ababyeyi imirimo ivunanye sibyiza baba bakeneye gukora imirimo yoroheje no guteka, gukoropa, gukubura kuko muri bo haba harimo abatwite bikaba byabagiraho ingaruka.

Kubona umwana ari kuvomera amazi mu gikombe agahita ayanywa ntabwo biba byizewe niba ayo mazi yujuje ubuziranenge yakabanje kujyamwo imiti yica udukoko cyangwa se bakayacanira.

Kuri ubu mu Rwanda ibigo byose by'amashuri byamaze kubaka ibikarabiro abana bakarabiraho intoki bakoresheje amazi meza n'isabune, mbere y'uko abana binjira mu kigo babanza gukaraba.

Kimwe mu bintu binezeza abana ni ugukina nk'iyo abana bari gukina n'amazi bayaterana bishima, barishima maze bigatuma bumva banezerewe ubuzima bwabo bugakomeza.

Ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'umwana unicef, gihora gishishikariza ibigo by'amashuri yuko byagira amazi ahagije; ku buryo igihe abanyeshuri bakeneye amazi bahita bayabona.

Iyo hari ikibazo cy'amazi, usanga biba bigoye kuyabona, n'aho abonetse ugasanga umwana akoze urugendo rurerure kandi n'ayo mazi adafite isuku, bikababaza abaturarwanda.

Ni byiza ko dukaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune, twirinda indwara zandurira mu mwanda ndetse n'ikwirakwira ryazo. Aho twavuga nka kovidi cumi n'icyenda ndetse n'indwara z'ubuheri.

Abanyeshuri banezezwa no kubona aho bakarabira intoki ku buryo biboroheye, kuko akenshi usanga babikenera inshuro nyinshi ku munsi.

Twese tugomba guhaguruka nk'abanyarwanda, tugafatanya n'ikigo mpuzamahanga kirengera uburenganzira bw'abana cyitwa UNICEF, kuko abana nibo terambere ry'ejo hazaza, ni nabo mizero y'igihugu.

Guha abantu imfashanyigisho irimo ibintu ugiye kubahuguraho bakabisoma bakabinyuzamo amaso noneho ukabona kubibasobanurira birabafasha kuko bahita babyumva ku buryo bwihuse.

Mu gihe hagaragaye ko hadutse icyorezo gishya abaganga baba basabwa gukaza ubwirinzi, bakambara imyenda ibahisha amasura yabo uturindantoki, udupfukamunwa n'ingofero kugira ngo batandura.

Leta y'u Rwanda ni kimwe mu bihugu byegereje abaturage serivisi z'ubuvuzi binyuze mu bajyanama b'ubuzima bafasha ababyeyi gusuzuma ubuzima n'imikurire by'abana batiriwe bajya ku kigo nderabuzima.

Binyuze muri Unicef u Rwanda rwemeye ko na rwo rugomba gushyira imbaraga, mu kurinda abana, icyabongamira uburenganzira bwabo icyo ari cyo cyose.

Ni byiza ko ahantu hose hahurira abantu benshi haba hari igikarabiro kugira ngo umuntu wese uhageze abanze akarabe n'amazi meza ni isabune, kandi iyo hari undi muntu ushinzwe gukontorora ko ibyo bintu biri gukorwa biba akarusho.

Iyo ubyaye umwana ntabwo biba birangiye ahubwo ni igihe cyiza cyo kumwitaho wowe ubwawe nk'umubyeyi, kandi ukajya umujyana ku kigo nderabuzima bakamusuzuma bakareba imikurire ye n'ubuzima bwe uko buhagaze kugira ngo atazahura n'ikibazo kigwingira.

Abanyarwanda bishimira guhurizwa ahantu hamwe ku kigonderabuzima bakaganizwa ku byerekeye ubuzima bwabo haba ubw'imyororokere cyangwa uko bakwinda indwara zitandukanye.

Nyuma yo kwitabira inama cyangwa se amahugurwa agenewe abaganga b'inzobere batandukanye, ni byiza ko hafatwa ifoto y'urwibutso kugira ngo batangarize abatabashije kuza mu nama kandi ibe igihamya cy'uko bayitabiriye.

Birababaza kutegereza abaturage amazi, maze ugasanga abaturage benshi bahuriye ku ivomero rimwe, amajerekani ari menshi cyane ukibaza nimba bari butahe. Icyiza ni uko bakwegerezwa amazi.

Kutagira ivomero riri ahantu heza kandi hafite isuku ni bibi. Nk'iyo umubyeyi agiye kuvoma agasanga ivomero riri ahantu mu gihuru hari umwanda, avoma afite n'ubwoba kandi atishimye.

Ni byiza kubaka akarina k’ igikoni karimo imboga zigiye zitandukanye nk’ igitunguru, pavuro, karoti ndetse n’ imboga za rwatsi. Bigatuma ingo zacu zirinda indwara ziterwa n’ imirire mibi.

Igihe umuganga w'inzobere ahagaze imbere y'abaturage ari kubasobanurira ku cyorezo runaka cyangwa se ku ndwara runaka basabwa kumutega amatwi na we abisobanura mu ijwi riranguruye.

Ni byiza kwegera abana tugakina nabo tukababa hafi tukabahumuriza bikabaremamo icyizere cy'ejo hazaza, bagakura bumva ko nabo ari abantu kandi bakomeye ndetse bashoboye.

Iyo umugabo yeretse umwana we ko amwitayeho akamugaragariza urukundo akamuba hafi bagasangira, bituma uwo mwana abaho neza agakura yifitiye icyizere mu bandi.

Hari ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku burenganzira bw'umwana, bita Unicefu iki kigo gishinzwe guharanira uburenganzira bw'umwana. Ni ngombwa ngo tujye dukurikiza amabwiriza ndetse n'amategeko gitangaza arengera umwana.

Ukigera ahantu ugasanga handitseho WASAC, uhita umenya ko icyo kigo gifasha kugeza serivisi z'amazi meza ku baturarwanda bose aho baherereye mu gihugu.

Kutagira ikusanyirizo ry'amazi rya kijyambere birabangama cyane kuko iyo utarifite usanga abana bajya kuvoma ahantu nko ku kiyaga cyangwa se ahandi amazi yaretse, bikaba biteganywa ko ayo mazi aba yanduye cyane.

Iyo umugabo yazindutse akagera mu nama, akicara mu ntebe ye itamubomiye, bakamuzanira amazi naho ari bwandike, ikiba gisigaye ni ugukurikira inama atuje kugira ngo hatagira ikimucika.

Ivomero rusange rigomba gusigasirwa rikabungabungwa, rikagirirwa isuku rigakurwaho ibihuru bihakikije ku buryo umuntu aza kuvoma aza ntacyo yikanga kandi agatahana amazi afite isuku.

Igihe umuyobozi ahagaze imbere y'abitabiriye inama abasaba kumutega amatwi bakumva ibyo avuga kandi bakahava bemeye ko bagiye kubikurikiza no kubishyira mu bikorwa.

Abantu bavoma ku ivome rusange hajya habaho ikibazo ko naho amazi ashobora ku bityo bigatuma umuntu yajyayo agategereza amasaha menshi cyangwa se bikanarangira ayabuze burundu, ni byiza ko uba wifitemo umutima wo kwihangana no gutegereza.

Ubushakashatsi bugaragaza ko ababyeyi bakomeza gushora abana mu mirimo ibyara inyungu, nko gukorera amafaranga kandi ari mu gihe cyabo cyo kwiga, bikaba bibaviramo gutakaza amashuri bakiri batoya.

Mu nama zigezweho muri iyi minsi usanga abayobozi bicara ku meza ahantu hiyubashye, bagaporojekita ibyo baganiraho bakajya babiganiraho ingingo ku ngingo.

Iyo ubonye abana bari kuvoma amazi mu bishanga, bigutera impungenge. Ndetse ugatekereza ko bategerejwe amazi meza asukuye, hafi y'ingo zabo.

Bigaragara ko hari abana babuzwa uburenganzira bwabo, bwo kujya ku ishuri, bakajya birwa bakoreshwa imirimo ivunanye, harimo n'iyo kubatuma amazi ahantu hatandukanye.

Ni byiza ko umubyeyi yita ku buzima bw'umwana we cyane cyane igihe agiye kumuha ibere. Aba agomba kubanza agakaraba n'amazi meza n'isabune kugira ngo atagira imyanda amwonsa; bityo umwana akabaho neza.

Igihe cyose ubonye umwana agaragaza ibimenyetso by'uburwayi ashobora kuba afite intege nke adahumeka neza cyangwa afite ikindi kibazo. Ni byiza guhita umwihutana ukamujyana kwa muganga abaganga bakamusuzumana ubushishozi basanga hari indwara afite bakamuvura.

Igihe muganga yatumije inama yo guhugura ababyeyi bafite abana, ni byiza ko abateranyiriza mu cyumba cyabugenewe maze akabasobanurira ingingo ku ngingo kandi biba byiza iyo akora ibimenyetso.

Umurenge ujyanye n'icyerekezo ugomba kugira ubusitani bwo gukoreramo inama, bigatuma abayobozi n'abaturage babona ahantu bateranira kandi hari amahumbezi igihe bari gukora inama.

Birababaza kubona umuntu w'umubyeyi akoze ibirometero ajya gushaka amazi ku ivomero rusange. Yahagera naho akayabura, bitwereka ko hakenewe amavomero menshi yegereye abaturage.

Kubona umwana yaretse ishuri ahubwo ari gukoreshwa imirimo yo mu rugo, nko kujya kuvoma birababaza, ni byiza ko abana bose tubohereza ku ishuri, maze abantu bakuru tukikorera imirimo, abana bo bagakora kwiga.

Mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'ubuzima bwacu, ni byiza kwimenyereza gukoresha amazi meza, niba uri ahantu mu nama muri kungurana ibitekerezo, bibasaba gutekereza murenze umwe cyangwa babiri, ni byiza ko mwazana amazi hafi yanyu, kugira ngo age abafasha kubaruhura mu mutwe.

Kubona umubyeyi yikoreye indobo atwaye indi mu ntoki birababaza. Wibaza nimba nta mwana yibarutse bikakuyobera. Ariko icyiza ni uko yabanza agasohoza imwe, ubundi akaza agatwara indi ku buryo bitamuvuna.

Mbere y'uko abaganga cyangwa se abajyana mu b'ubuzima bajya mu baturage kubatera inkingo zitandukanye babanza gufata amahugurwa bakabaha n'amabwiriza bagenderaho.

Iyo ugeze kwa muganga bakagusuzuma bagasanga uri bunyuzwe mu cyuma babanza kugusomera amabwiriza bakakumara impungenge ukajyamo wumva rwose nta kibazo kibirimo.

Abayobozi barimo abagabo n'abagore birabanezeza iyo bamaze kungurana ibitekerezo ku ngingo runaka z'ubuvuzi rusange, barangiza bagafata ifoto ngo bajye biyibutsa ibi bihe.

Ni byiza kwitabira imiganda yo gutera ibiti cyane cyane ibi bibyara imiti ikoreshwa mu mavuriro atandukanye kuko tuba duteganya kurokora ubuzima bw'abantu mu gihe kiri imbere.

Mu cyumba cy'inama ni byiza ko umuntu uhawe ijambo ahaguruka akaza imbere y'abandi agatanga igitekerezo cye ku buryo busobanutse bwuzuye kandi bwumvikana kugira ngo abateze amatwi bumve neza.

Iki nicyo gihe ngo twese duhaguruke dusenyere umugozi umwe turwanye ihohoterwa rikorerwa mu ngo irishingiye ku gitsina. Nta mpamvu yo guceceka wireberera mugenzi wawe bamuhohotera ahubwo iki nicyo gihe ngo tubimenyeshe ubuyobozi.

Igihe cyose uri kumwe na mugaga. Uba ugomba kumutega amatwi ukumva inama aguha kandi ukihutira kuzikurikiza uko zose yazikubwiye uko zigana nanimwe ukuyemo

Igihe ubonye umuntu afite ikibazo mu mutwe, ni byiza kubimenyesha abaganga b'inzobere, bakareba icyo bakora, bakaba bamuvura agakira nawe agasubirana ubuzima akabaho mu buzima bwiza anezerewe.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, ntabwo akwiye guhabwa akato, ahubwo akwiye kwegerezwa abaganga b'inzobere bakamuvura, bagasuzuma neza ikibazo afite mu bwonko.

Umukobwa w'umwangavu aba akeneye ko mama we amuganiriza bicaranye muri saro, akamusobanurira buri kimwe akamubwira n'ibyerekeye imiti agomba gukoresha n'iyo atakoresha.

Si byiza gutererana umuntu wagaragaweho n'ibibazo byo mu mutwe, haba ari agahinda gakabije, yaba yagatewe n'amakimbirane n'iwabo mu ngo, yaba yagatewe n'inkundodo z'iki gihe ni byiza ko tumuba hafi tukamuganiriza twemwereka ko turi kumwe tukamwereka ko atari wenyine muri iyi si.

Kwitabira amahugurwa avuga ku buvuzi bisaba gukurikira nturangare ntuhuge kugira ngo hatagira ikigucika ukazasigara ukorera amakosa abarwayi.

Bitewe n'ukuntu ibibazo byo mu mutwe bigenda byibasira abantu benshi kandi b'ibyiciro byose isi yashyizeho umunsi mpuzamahanga wo kujya yizihiza umunsi wo kurwanya indwara zo mu mutwe.

Umubyeyi ugeze mu za bukuru ashobora kugira ikibazo cyo mu mutwe bitewe no gutekereza cyane maze ibitekerezo bikamurenga akumva ubuzima bumuyobeye, ni byiza ko tumwegera tukamuba bugufi.

Igihe twitabiriye amahugurwa avuga ku buvuzi, ku miti, ni ngombwa ko dutega amatwi dutuje, twitonze, ducecetse kugira ngo uvuga bitamuca intege.

Nugera imbere ya muganga ni byiza kumubwira ibibazo byawe byose utamuhisha, mbese ukamubwira uko wiyumva, nawe akamenya uburyo agufasha, akakugira inama akaguha, imiti mbese nawe akagukurikirana ubuzima bwawe.

Amakimbirane yo mu ngo ajya atera abantu kuba mu bwigunge ugasanga nk'umubyeyi aragiye yicaye ahantu ha wenyine, ntashaka ko hari undi muntu umuvugisha, igihe tubonye bimeze gutyo dusabwe kumwegera tukamuganiriza.

Kutagirira amenyo isuku ukiri muto bishobora kugukururira ingaruka zitandukanye ugeze mu gihe cy'izabukuru, harimo nko kuba yakuka akavamo cyangwa se ukajya uhorana indwara za hato na hato z'amenyo, bigatuma usaza udafite ubuzima bwishimye.

Dukangurirwa gukurikiza amabwiriza atangwa n'ikigo gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda arabisi, kuko nicyo kigenzura imikorere n'imikoreshereze y'imiti yose ikorerwa mu Rwanda ndetse kikagena n'abaganga ba buri bitaro.

Kugaragaza akamwenyu mu maso akenshi biterwa nuko uba mu muryango utarangwamo amakimbirane, bigatuma uhora wishimye mu buzima bwawe bwose.

Igihe umuntu ahuye n'ibibazo birimo agahinda gakabije bikamutera kwiheba ndetse no gutekereza cyane, ni byiza ko ahura n'abaganga bo mu mutwe abaterapisite bakamuganiriza, bakamusobanurira uburyo akwiye kubyitwaramo.

Ni byiza ko muganga asobanurira ababyeyi uburyo bagomba kwita ku bana, bigatuma abana bazabaho neza butarimo igwingira, kuko baba bakurikije inama zose bahawe na muganga.

Abanyeshuri bakiri bato iyo ubasobanuriye gahunda z'ubuvuzi barabyishimira ndetse, bamwe bagahitamo gukomeza kubyiga muri za kaminuza kandi banezerewe.

Bijya bibaho ko ingo tubamo ziduteza amakimbirane, bikatwangiriza ubuzima bwacu bwo mu mutwe, ariko biba byiza iyo wegeye muganga ukamuganiriza ibibazo byawe, nawe ntaguhana, arakuganiriza akaguha inama n'uburyo wabivamo.

Guseka ni kimwe mu bintu bituma umuntu atarwara sitiresi, bikamwongerera guhora anezerewe, umubiri we ugahorana itoto ntazinge umunya agahorana ibyishimo.

Iyo umuntu ubwonko bwe butagikora neza bamwe bavuga ko yatokowe abandi bakamwita umusazi, icyo gihe ntaba acyikotorora we ubwe ahubwo aba akora ibintu nawe atazi bidasobanutse, ushobora kubona ari kurya imyanda cyangwa se n'ibindi bintu bibi, ni byiza ko tumwihanganira.

Iby'isi ni gatebe gatoke ubuzima burahinduka hari igihe tubona bamwe muri twe bahuye n'agahinda gakabije bakajya ahantu bakigunga ari bonyine. Ni byiza ko tubegera tukabaganiriza tukabereka umutima w'urukundo.

Kubona abantu bose b'urubyiruko biga ibijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe babahurije hamwe bari kubaha inama ni byiza cyane, kuko bibaha imbaraga zo kuzafasha abarwayi mu gihe kiri imbere.

Bijya bibaho ko umuntu yakwiheba akitakariza icyizere akumva kubaho bimurambiye rwose ariko ni byiza kumuganiriza nk'umuntu mubana ukamuba bugufi bityo akongera akagaruka mu mahoro.

Gukura mu gihagararo byonyine ntabwo biba bihagije, ahubwo tuba dukeneye no gukura mu mutwe, ni yo mpamvu habaho abantu batugira inama bakadufasha gukura mu by'imitekerereze kugira ngo tuzabashe kujya dutanga ibitekerezo bikomeye.

Inzu yo kwa muganga iba igomba kuba irimo ibikoresho bihagije, ikindi bakamenya urumuri bashyiramo kugira ngo rutazagira umurwayi ruhungabanya, akaba yaza aho kugira ngo ahakirire akahahuhukira.

Kwireba mu ndorerwamo ukareba uko mu maso hawe hameze, ukareba amenyo yawe, ni kimwe mu bintu bifasha ugira isuku y'umubiri wawe. Iyo usanze amenyo yawe afite umwanda bigutera imbaraga zo kuyitaho ukayagirira isuku.

Amenyo ni kimwe mu ngingo z'umuntu tuba tugomba kwitondera tukazisigasira, tukayarinda, tukirinda gushyiramo ibintu bitabugenewe kuko bishobora kuyangiza.

Iyo umukobwa w'inkumi arangwa n'isuku, akagirira isuku mu kanwa he, iminwa ye usanga afite amenyo meza y'umweru, yaseka rwose ukabona araberewe ameze neza cyane.

Bitewe n'uko ikibazo cy'amenyo gikomeje kugaragara mu rubyiruko, ni byiza ko tubashyikiriza muganga akabakurikirana akabasuzuma, akareba isuku yabo bafite mu kanwa akareba n'uko amenyo yabo ameze.

Amenyo nicyo kigaragaza ubusirimu, ni byiza ko tugirira amenyo isuku kugira ngo igihe turi mu bandi bitadutera ipfunwe isoni n’ikimwaro byo guseka. Amenyo iyo atari umweru aba afite umwanda.

Igihe ugeze imbere ya muganga w'amenyo, uba usabwe kwicara ku gatanda kabugenewe, maze ugakurikiza amabwiriza yose aguha, na we agakora uko yabyize, akabasha kukuvura amenyo.

Ntabwo ari buri cyuma cyose cyemerewe gukora mu akanywa ku muntu. Cyane cyane iyo arwaye amenyo, hagomba gukoreshwamo ibyuma byabugenewe kandi nabwo ni muganga wenyine ugomba gukora icyo gikorwa abandi bose ntago babyemerewe.

Iyo ugerageje kwikurira iryinyo ukoresheje urudodo uba uri kwiyicira ubuzima icyiza ni uko wasanga muganga ukamusobanurira ikibazo ufite akagufasha kuko ahanini biba biterwa n'uko ugira umwanda mu kanwa.

Kugira amenyo meza biraharanirwa, bisaba kuyagirira isuku, ugakurikiza inama za muganga, ugakoresha imiti yabugenewe igihe uri kuyoza kandi ukayoza neza ukayanoza kugira ngo ase neza.

Kugira ngo wemezwe ko uri umuganga w'inzobere mu bijyanye n'amenyo, usabwa kuba warize neza buri gace k'iryinyo ukagasesengura ukanagasobanurirwa ibice bitagize.

Kugira umwanda wo mu kanwa bigenda bituviramo ingaruka zitandukanye, nko kuba amenyo yata ibara ryayo ryiza ry'umwimerere; ry'umweru, agafata irindi bara nk'umukara cyangwa se umuhondo, ni byiza ko tugira isuku yayo.

Umwana iyo avukanye ikibazo cy'amenyo, biba byiza iyo ahuye n'abadogiteri b'inzobere mu buvuzi bw'amenyo bakamukurikirana, basanga ari ngombwa ko iryinyo bakuramo bakarivanamo cyangwa bakamugenera imiti azajya afata.

Binezeza umuntu cyane agaseka rwose akishima, iyo asobanukiwe neza akamaro k'amenyo, uburyo akora, ubwirinzi bwayo n'uburyo yayafata neza kugira ngo atarwara indwara z'amenyo za hato na hato.

Muganga w'amenyo iyo agiye kugukura amenyo akuryamisha ku gatanda kabugenewe, yarangiza akazana ibikoresho byabugenewe bifite isuku bimeze neza agatangira akazi.

Abaganga b'amenyo ni bo bonyine bashobora kwemeza ko iryinyo ryawe barikura. Kuko baba babisobanukiwe neza, kandi bashobora no gushyiramo insimburangingo yaryo ugakomeza kubaho kandi udafite iryinyo.

Kugira umwanda mu kanwa, ntabwo byangiza amenyo gusa ahubwo byangiza n'ishinya, ni byiza rero ko tugira isuku y'amenyo yacu, tugakoresha umuti wabugenewe woza amenyo.

Muganga w'amenyo niwe wenyine ufite uburenganzira bwo gusuzuma amenyo akamenya ikibazo afite akurikije uko yabyize, yarangiza akandika umuti ugomba kujya ukoresha.

Mbere yo gukura umwana amenyo uba ugomba kubanza ukamuryamisha ku gatanda keza kabugenewe, ukabanza ukamuganiriza kugira ngo atiheba, warangiza ukazana ibikoresho byabugenewe kandi bifite isuku ubundi ugatangira.

Kimwe mu bintu binezeza umuntu urwaye iryinyo ni ukubona barikuramo, barangiza bakamushyiriramo irizima bigatuma akomeza kumera neza cyane.

Isuku yo mu kanwa ni ingenzi cyane, kuko iyo nta suku ufite bigutera ingaruka zitandukanye harimo kurwara mu kanwa, kuva imyuna mu kanwa, kurwara amenyo.

Ni ingenzi cyane ko muganga igihe amaze gusuzuma ibisubizo abyandika, hanyuma akabona kuza gutangariza uwabibonye, akamwandikira n'imiti ari bufate bitewe n'indwara yamusanganye.

Kugeragezakuza amenyo urudodo nimwe mu bimenyetso byagaragaza ko ufite indwara y'amenyo. Ibyo ni amakosa iyo ubikoze si byiza, icyiza ni uko wakwegera abaganga babizobereyemo bakakubwira uburyo bwiza.

Dukwiriye gufata amenyo yacu neza, tuyagirira isuku, tuyarinda imyanda, twirinda kurya ibyo tubonye byose, tukiborosa inshuro zabugenewe uko tumaze kurya, bigatuma tugira ubuzima bw'amenyo bumeze neza.

Muganga w'amenyo ni we wenyine uba ufite uburenganzira bwo gusuzuma abarwayi barwaye amenyo. Akamenya ibibazo byabo, akabagira inama, akabaha imiti, yasanga ari ngombwa, akaba yarikura.

Hari igihe umuntu arwara amenyo akumva bahita bayasimbuza, ariko muganga wenyine ubifitiye uburenganzira niwe ugomba kwemeza ko, bagomba kuguha insimburangingo y'iryinyo.

Muganga w’amenyo niwe wenyine uba ufite ubushobozi bwo gukuramo iryinyo, arabanza akagusuzuma akareba neza kuko niba ari ngombwa kurikura, iyo abonye bitari ngombwa araryoza akoresheje ibyuma byabugenewe.

Si buri muntu wese wemerewe gukora mu kanwa k'umuntu uretse muganga wenyine ubyize kandi ubifitiye uburenganzira ngo ntawundi ni muganga w'amenyo niwe wenyine ugomba gusuzuma amenyo yawe akareba icyo ayakorera yaba ari ukukuvura cyangwa se n'izindi nama zitandukanye.

Si byiza gushyira ibintu tubonye ibyo aribyo byose mu kanwa, kuko bishobora kutwangiza amenyo aba twavuga nk’imigozi. Si byiza gushyira indodo mu menyo yacu, kuko bishobora kuyahungabanya agatakaza ubusugire bwayo.

Iyo umubyeyi ageze mu zabukuru, hari ubushobozi agenda atakaza harimo n'ubwo kureba. Ni byiza ko afata agakoni, kakamufasha kugira ngo ataza gusitara cyangwa akagwa.

Ntabwo biba byoroshye kubona umukecuru w'imvi z'uruyenzi, ari gufata ikinini asomesha amazi. Bamwe barabipinga bakanga kubikora, ariko ni bwo buryo bwo kwivura.

Umuco wo gukunda abana bato ni mwiza iyo umubyeyi akunda guterura umwana we bituma umwana akurana urwo rukundo rwa kibyeyi nawe yazakura ayo marangamutima akayakomeza bigatuma iyo ari mu bandi atabangamirwa n'urukundo kandi agahora yishimira gusabana nabo.

Umuntu ugeze mu zabukuru ni byiza ko igihe arimo yandika asoma ibintu bitandukanye, yambara uturinda amaso kugira ngo tumufashe ataza guhuma atarabisoza.

Ni byiza ko muganga arangwa n'umutima w'urukundo n'impuhwe, kugirango yakire neza abaje bamugana, cyane cyane abageze mu za bukuru bafite umubyibuho ukabije kugira nabo biyumvemo ituze, n'amahoro n'umunezero.

Umurwayi ugeze mu za bukuru, haba hari imbaraga adafite, niyo mpamvu umuganga agomba kumuba hafi kimwe n'undi murwaza we, kugira ngo barebe uko ameze, aho imbaraga nke ze zigarukira, bamufashe hato ataza kwitura hasi akaba yanahasiga ubuzima.

Ababyeyi barenze umwe niyo baba ari batatu bakabona ikintu kibashimisha ntago babasha guhisha amarangamutima yabo ahubwo bahita baseka.

Ni byiza cyane gukora siporo ukurikije uko wabitegetswe na muganga, kuko aba yabanje gusuzuma ubuzima bwawe akamenya uko buhagaze na siporo ugomba gukora.

Igihe muganga yabategetse kujya mufata ibinini, umugabo n'umugore, muba mugomba kwibukiranya, mukabiganiraho kugira ngo hataza kugira ukora amakosa akanywa ibitari byo.

Kimwe mu binezeza umuryango ni uko umugore abona umugabo amwitayeho amufasha imirimo yo mu rugo, mu gihe umugore arimo akata inyanya, akata imboga, akata igitunguru, ahata intoryi umugabo na we akamuzanira amazi, akamufatishiriza gaze bagateka bafatanyije.

Igihe uri gufata imiti wandikiwe na muganga, cyane cyane irimo ibinini, biba byiza iyo ukoresheje amazi, kugira ngo bigufashe neza kumanuka mu muhogo, bitakunize.

Igihe wagiye kwa muganga akakwandikira imiti kwicara ahantu utuje ugasubiramo ukayireba ugasoma n'amabwiriza yaguhaye n'uburyo ikora ni ingenzi cyane ku murwayi.

Umuryango mwiza ugomba kugira igihe cyo kujya uganira, umugabo n'umugore bakicara muri saro bakagira ibintu baganiraho bakabijyaho inama bakabifataho umwanzuro kuko nirwo rufatiro rw'umuryango uhora unezerewe.

Urukundo rwo mu busaza ruraryoha nibyiza kwita kuwo mubana igihe mugeze mu za bukuru kugira ngo buri umwe azagire amasaziro meza kandi akomeza gukumbura uwo bakundanye bakiri bato.

Kugira ibikorwa bihuza abantu bakuze benshi, bo mu kigero cy'imyaka imwe, bakungurana ibitekerezo, bakishimana, buri wese akagaragaza amarangamutima ye, ni byiza cyane kuko bituma ubuzima bwabo bukomeza kugenda neza, kandi bagafashanya kwiteza imbere.

Iyo umuntu ageze mu zabukuru, hari imbaraga z'umubiri n'ubwirinzi aba adafite. Igihe ahuye n'ikibazo akarwara, ni byiza kumusindagiza ukamugeza kwa muganga ndetse n'ahandi hose.

Abagabo b'ibikwerere banezezwa cyane no kwita ku bagore babo kuko baba bageze igihe cyo kuryoherwa n'urukundo; n'abagore banezezwa no kubona abagabo babitayeho kuko bibanyura umutima bigatuma babaho mu buzima bunezerewe kandi bashima imana yabahuje.

Gutegura amafunguro unezerewe ni byiza cyane bituma ayo mafunguro uyategura neza yujuje ubuziranenge ukata imboga, igitunguru, karoti, inyanya ndetse ugategura n'ikinyobwa cyo kurenzaho, bituma abagize umuryango muza kuryoherwa n'amafunguro ateguranwe ubwiza.

Iyo umusaza ageze mu za bukuru rimwe na rimwe aba afite imbaraga nkeya z'umubiri biba byiza iyo uwo babana amutwaye mu kagare kabugenewe kugira ngo nawe yumve ko hari umuntu umuri bugufi.

Abagore n'abagabo bakuze nabo bakenera kwita ku wundi, ni byiza ko buri wese yerekana urukundo kuri mugenzi we, akamugaragariza amarangamutima ye atamwishisha akamubonamo urukundo, bityo bigatuma bakomeza kubana mu mahoro.

Umubyeyi w'umugabo iyo ageze mu za bukuru, aba akeneye kwitabwaho cyane n'abana yibarutse, kuko nawe aba yarabareze bimuvunnye.

Ikibugurizo ni umwe mu mikino myiza kandi iruhura mu mutwe. Isaba ubwenge abantu bayikinnye usanga bayikunda cyane kuko ibafasha kuruhuka mu mutwe, bigatuma bisanzurana n'abandi kandi yongera ubucuti hagati y'abantu babikina.

Iyo umuntu agize ikibazo cy'intege nke, ni byiza ko mumuba bugufi mukamusindagiza, mukabasha kumugeza aho ari mubone ubutabazi bw'ibanze, si byiza kumureka ngo agende akumbagurika ahubwo kumuba bugufi ni cyo gisubizo cy'ibanze.

Abasaza bafite ikibazo cy'ubumuga banezezwa no kubona abana baje babagana, babasanga, babasekera, bakabaganiriza bibasubizamo imbaraga mu bugingo bwabo.

Umugabo n'umugore bageze mu gihe cy'izabukuru biba byiza iyo bicaye ku meza bakaganira bakareba ibyerekeranye n'imiti muganga yagiye abahuguraho, bakisomera imfashanyigisho.

Bibaho ko umuntu ugeze mu za bukuru yagira imbaraga nke z'umubiri cyangwa iz'imitsi, bigakenera ko yakenera imbago cyangwa se akandi kantu ko kumufasha kugenda.

Umwana hari ibintu byinshi aba adasobanukiwe kandi abifitiye amatsiko ni ingenzi cyane ko umubyeyi we amuba bugufi akamusobanurira akamwereka ibyo atazi ndetse akamwumvisha buri kimwe uko gikorwa.

Abasaza bageze mu kigero cy'izabukuru ntabwo baba basobanukiwe neza gukoresha amaterefone ngendanwa cyane cyane agezweho biba byiza iyo umusobanuriye buri kimwe ndetse ukamubwira n'uko zikora.

Igihe umuntu ugeze mu za bukuru, ahuye n'ikibazo cy'imitsi. Ni byiza ko ajya kwa muganga, yataha abo mu rugo bagakomeza kumukurikirana, na bo bakamuba bugufi bamwambika imyenda yabugenewe ifasha kurambura imitsi.

Kujyana n'umugore wawe muri siporo ni byiza cyane, kuko mwembi mwiyumvanamo urukundo rwanyu rugakomeza gukura kandi ubuzima bwanyu bukaba buri kujya ahantu heza, mukazasaza mutarwaye indwara y'imitsi.

Iyo abagize umuryango bahuriye hamwe bakaganira ku nsanganyamatsiko runaka cyangwa bakaganira ku kintu batari gusobanukirwa cyangwa batari kumvaho kimwe birabanezeza cyane.

Kimwe mu bintu binezeza umuntu w'umusaza ni ukubona muganga amwitayeho ari kumugira inama, ndetse anamwereka uburyo yakora siporo kugirango agire ubuzima bwiza.

Gukora siporo ku muntu ugeze mu za bukuru, bimufasha kurambura imitsi y'amaboko, iy'umugongo, bikaba byamurinda kurwara indwara zirimo nka pararise. Ni byiza ko umuntu akora siporo za pompaje, izo gusimbuka umugozi n'ibindi.

Ntabwo ari byiza na hato gutererana umusaza ugeze mu zabukuru igihe ahuye n'uburwayi, ahubwo tuba tugomba kumusindagiza tukamujyana tukamugeza kwa muganga.

Biranezeza kubona abasaza bageze mu za bukuru bagikundadana, ibi bitanga isomo n'umuco ku rubyiruko ko na rwo rugomba kugira urukundo mu mibereho yarwo ya buri munsi mu byo bakora ndetse no mu byo bavuga.

Iyo umugore n'umugabo babana bageze mu kigero cy'izabukuru bagafatwa n'indwara, ni byiza ko bicara muri saro bakaganira, bakaganira ku mabwiriza muganga yabahaye gukurikiza imiti, buri wese akaba inyunganizi ya mugenzi we.

Ni byiza kandi bisigara mu mitima y'abitabiriye inama, iyo bashoje amahugurwa bagafata ifoto y'urwibutso, igaragaza neza igikorwa cyari cyabateranyirije aho ngaho.

Ni iby'igikundiro kandi bigaragara neza ku ruhando mpuzamahanga kubona urubyiruko rwishimira kandi rukitabira kuba muri serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Ni byiza gukangurira urubyiruko rwa afurika cyane cyane abanyarwanda kwiga serivisi zijyanye n'ubuvuzi kuko byafasha mu iterambere ry'igihugu mu buvuzi rusange.

Ni byiza kubona urubyiruko duhuza imbaraga, tugahuza umutima, tugahuza ubumwe, twese tugahagurukira kurwanya virusi itera sida, kwipimisha niyo nkingi ya mbere.

Ni byiza cyane kurinda ubwonko bwacu ikintu icyo ari cyo cyose cyabwangiza, kuko ni bwo butuma dutekereza neza kandi bugakontorora umubiri wose.

Mbere yo guha umuntu ibinini, ni byiza kubanza ukamuganiriza ukamusobanurira icyo bimaze, icyo bivura n'uko bikora ndetse nawe akagenda anyuzwe kandi azi n'ukuntu abikoresha.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ihora ishishikariza abaturarwanda bose kugira isuku, kugira ngo birinde indwara za hato na hato itibagiwe kugira inama ababyeyi guteka indyo yuzuye.

Abaganga bakora muri serivisi zo gutanga imiti nabo bajya bakenera amahugurwa aturutse ku rwego rwo hejuru kugira ngo bamenye uko babyitwaramo kandi bafasha abarwayi baje babagana.

Gukora amahugurwa ahuriza hamwe abaganga bose mu cyumba kimwe ukabaganiriza bari hamwe baguteze amatwi byoroshya itumanaho mu cyimbo wajya ubwira umwe umwe, amakuru bayumva neza kandi bakihutira kuyashyira mu bikorwa.

Si buri muntu wese wemerewe gutera urushinge uretse umuganga wabyigiye, arabanza agakuraho umwenda wambaye, agahanaguraho imyanda, yarangiza akarutera neza yitonze kandi nawe usabwa gutuza ntunyeganyega kugira ngo utikoma bigatuma umuti utinjira mu mubiri.

Ni ingenzi cyane gukurikiza amabwiriza duhabwa n'ibigo by'ubuzima, kugira ngo tuge twirinda indwara zitandukanye, igihe habonetse amabwiriza ku ndwara iyo ariyo yose, tuba dusabwe guhita tuyakurikiza tukayashyira mu bikorwa kandi tukayubahiriza.

Bigaragara ko umwana agira uruhare runini mu buvuzi kubera ukuntu ahora yishimye n'iyo umwegereje umurwayi birangira na wa murwayi azamuye akanyamuneza akishima.

Ni ibyacu twese, kandi ni ibya buri muntu wese, ko dushyira hamwe tukarwanya icyorezo cya virusi itera sida, cyane cyane mu rubyiruko, tugashishikariza abantu bose kukirinda.

Abaganga bakora mu buruhukiro bagomba kwambara neza imyenda yabugenewe ibafubitse ahantu hose, ndetse bakambara n'agapfukamunwa kugira ngo na bo ubwabo bagire ubwirinzi bityo batanduzwa n'ibyo bari gukora.

Hari uburyo bwiza bwo gushyira umurwayi kuri burankari, igihe yagize ikibazo gituma atabona imbaraga zo kuba yakwigenza, mu muryamishaho ku buryo nta rugingo na rumwe ruri bubangamirwe.

Binyuze mu muryango wa Unicef, irashishikariza buri muntu wese kwiteza urukingo rwa Cofax kugira ngo akomeze agire ubwirinzi n'umubiri we ugire ubudahangarwa.

Ikintu cy'ingenzi kandi cyo kwishimira ni uko umugore nawe atashigajwe inyuma, ahubwo yabaye nyambere mu kugaragaza uruhare rwe mu buvuzi rusange aho akoresha imbaraga ze mu gutabara no gukiza ubuzima bw'abarwayi.

Tugomba gukurikiza amabwiriza yose atangwa n'ikigo cy'ubuzima mu Rwanda cyitwa RBC kuko nicyo kireberera inyungu z'abaturarwanda bose mu bijyanye n'ubuvuzi.

Iyo umubyeyi amaze kubyara umwana, nyuma y'igihe cyabugenewe agarura umwana ku kigonderabuzima bakamuha inkingo zabugenewe, ndetse bakareba n'imikurire ye, bagapima uko ubuzima bwe buhagaze.

Ni inshingano za minisiteri y'ubuzima, gutanga raporo ku byorezo bigiye bitandukanye. Nko kuri kovide cumi n'icyenda, monkeyi pokisi, n'izindi ndwara zose igomba kumenyesha abaturarwanda uko bihagaze.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda arabisi kigaragaza ko mu bushakashatsi cyakoze cyasanze buri wese yarahawe urukingo keretse abana batoya bari batagejeje igihe cyo gufata urukingo rwa kovide cumi n'icyenda.

Ni ingenzi cyane ko umuntu ukora muri serivise zijyanye n'ubuvuzi yambara ikarita y'akazi mu ijosi, kugira ngo umuntu umubonye ahite amusobanukirwa n'ibyo akora.

Ni byiza kwita ku matariki duhabwa, cyane cyane nk'ay'ubukwe, sevudidedeyite cyangwa se n'andi yose dufiteho ibikorwa tukagira ahantu tuyandika ndetse tukajya duhora tuyatekerezaho kugira ngo umunsi wa nyawo uzagere tukibyibuka.

Igihe umuntu ahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa ntabwo aba agomba kubyihererana kuko yaheranwa n'agahinda, ahubwo abagomba kubimenyesha inzego z'umutekano ndetse n'ibigo bibishinzwe harimo nka isani wani sitopu senta bakamukurikirana kandi bagahana uwabikoze.

Umuganga wese iyo ari mu cyumba gisuzumirwamo ibizamini byatanzwe n'abarwayi, aba asabwa kwitwararika agakurikirana neza ibisubizo byazo.

Mu Rwanda tugira ikigo gikorana n'inzego z'ubuzima, gifasha abantu bahuye n'ihohoterwa ryaba irishingiye ku gitsina, ni byiza niba umwana ahuye n'ihohoterwa ko tumushyikiriza isange wani sitopu senta bakamufasha.

Ni byiza ko ku ivuriro haba hari igishushanyo mbonera cyerekana serivisi zihatangirwa ku buryo umurwayi cyangwa se undi muntu yaza akaba agisoma uko bakora.

Igihe uri kuganira na muganga muba mugomba kwicara ahantu hatuje hagera akayaga, maze ukamubwira ntacyo umuhisha nawe akakugira inama, bitewe n'uko abona ubuzima bwawe buhagaze.

Icyumba mpahabwenge kigomba kuba cyujuje ubuziranenge, kirimo mudasobwa zihagije, interineti ihagije, imashini zisohora impapuro ndetse na venderateri zizanamo umuyaga.

Abaganga baba bagomba kwimakaza umurage wo gutabara abarwayi bafasha igihugu, ndetse batanga igihe cyabo n'ubumenyi bwabo mu gutabara ubuzima bw'abantu buri mu marembera.

Buri kigo nderabuzima cyose cyangwa ibitaro bikuru bagira ahantu bakirira abaje babagana bita kuri resebusiyo, niho ubanza guca bakakuyobora aho uri buherebwe serivisi.

Inyubako zo ku bitaro no ku bigo nderabuzima hari uburyo zubakwa. Ibitanda byaho si byiza ko ubinaganika hejuru mu kirere, kuko umurwayi ashobora kugukorera impanuka, agahubuka, akitura hasi, bikarangira.

Iyo muganga akugeje mu cyumba cy'isuzumiro, akubaza aho uribwa uko wumva umeze, maze byarangira agafata n'ibyinyuma byabugenewe, akagupima, yagusangana indwara akakuvura, kandi akakugira n'inama y'uburyo urakoresha imiti yakwandikiye.

Iyo umurwayi yageze kwa muganga bakabona arembye cyane bamwinjiza mu cyumba bakamukurikirana bakamwitaho bakamushyiramo salumo ndetse bagahangayikishwa n'uko yakira bityo abaganga bamusimburanwaho uko umunota ushize undi uhise bigatuma abasha koroherwa.

Ikigonderabuzima kiba kigomba kubakwa ahantu hisanzuye hari umwuka uhagije, hari ubusitani ku buryo abarwayi babona umwuka uhagije bigatuma boroherwa.

Ibitaro bikuru bya Kabgayi ni bimwe mu bitaro dufite mu gihugu cy' u Rwanda, bitanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye harimo n'iz'amaso ziba zarananiranye.

Iyo ugeze ku nyubako yo kwa muganga usanga yubatse mu buryo butangaje, hari ibyapa bigenda biyobora aho buri gikorwa cyose kibera, aho ababyaza baba bari, aho bafatira imiti, aho basuzumira, bityo bikorohereza ubagannye kubona serivise.

Kuri iki gihe iyo umaze gutanga ibizamini abaganga b'inzobere bajya ku byuma bya laboratwari bagasuzuma neza n'ubushobozi bakareba koko indwara urwaye iyo ari yo bakabona kuyitangaza.

Inyubako yo kwa muganga iyo yubatse ku buryo ibasha kwinjiramo umwuka uhagije, ni byiza cyane bifasha abarwayi, kandi iyo hafi yayo hari indabyo ku buryo umurwayi yazibona ni byiza cyane.

Urumuri ruba mu nyubako zo kwa muganga rugomba kwitonderwa rugapimwa icyegereranyo cyarwo kugira ngo batazashyiramo urumuri rwinshi rubangamira abarwayi cyangwa se bagashyiramo urumuri rukeya rukaba ikibazo ku barwayi, ni byiza ko bazana inzobere mu by'urumuri bagapima bagashyiramo urumuri ruringaniye.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigomba kugira intebe zihagije kandi zimeze neza, kuburyo uwicaye mo agitegereje muganga agomba kuba yumva anyuzwe kandi atabangamiwe.

Mu Rwanda usanga inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ibigo nderabuzima, ibitaro byagutse bifite ibyumba bihagije ku buryo nta murwayi waza ngo babonere aho bamwakira.

Iyo ugeze mu Majyaruguru, mu karere ka Gicumbi, uhasanga ibitaro bikuru bya Ruhengeri, ibi bitaro, bitanga serivisi ku ndwara zananiranye, harimo iz'ubuvuzi bw'amaso, n'iz'amenyo.

Ibitaro byubatswe mu buryo bugezweho bigomba kuba bifite ibyumba bitandukanye harimo n'ibitanda by'amoko yose ibya bantu bafite ikibazo cy'ubumuga, ibya bantu bafite izindi ndwara zitandukanye.

Ni byiza ko ibigo nderabuzima, ibitaro bikuru bigira raboratwari zimeze neza, zuzuje ibisabwa byose, zifite isuku, zifite umuriro ndetse n'ibindi bikoresho byose nkenerwa kugira ngo bajye babasha gusuzuma indwara neza.

Inyubako zo kwa muganga zigomba kugira ibitanda byubatse neza bifite imisego, ku buryo umurwayi aryama yisanzuye na muganga akabona uko amwitaho.

Ku bigo nderabuzima ndetse no ku bitaro bikuru, hagomba kuba hari icyumba cy'ababyeyi. Ku buryo umuganga abahasanga akabapima, akabakorera buri kimwe bifuza kandi batuje.

Iyo ugeze hafi n'ibiro by'Akarere cyangwa se ibiro by'Umurenge, uhasanga igishushanyo mbonera k'ingengo y'imari; izakoreshwa mu mwaka wose. Ibi byerekana intego n'ingamba, aka Karere kaba karihaye, mu gushyiramo imbaraga no guteza imbere abaturage.

Inyubako yo kwa muganga iba igomba kuba yubatse ku buryo butandukanye n'izindi, ifite ibitanda byiza biri ahantu heza hagera umwuka uhagije kandi hakaba hari urumuri ruringaniye.

Biranezeza kubona imijyi myinshi igiye ifite amafarumasi atandukanye, atangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kuko byorohereza abarwayi, bishoboka ko ibitaro byaba biri kure.

Ku bitaro bikuru hatangirwa serivisi z'ubuvuzi hagomba kuba hari laboratwari yo ku rwego rwo hejuru kugira ngo ibizamini byafashwe babinyuzemo babone kuzana ibisubizo.

Mu rwanda dufite ikigo cyita ku bantu bahuye n'ibibazo byo mu mutwe cyitwa, ara esesi Rwanda kansa senta, nubona umuntu afite ibibazo by'ihungabana cyangwa se diperesiyo ikabije wamufasha ukamurangira.

Ku bitaro ahatangirwa serivise z'ubuvuzi, ni ngombwa ko haba hari icyumba gikorerwamo ubushakashatsi, kuko indwara zaduka buri munsi ni nako n'abashakashatsi bagomba gushakashaka imiti yavura izo ndwara.

Abaganga bakora muri laboratwari baba bagomba gusuzumana ubushishozi kugira ngo hatabamo ukwibeshya maze bagatanga imiti itandukanye n'indwara yari ihari.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi igomba kuba yubatse ku buryo butandukanye n'izindi ifite buri kimwe umuntu yakenera aho kuruhukira, aho kuryama aho gufatira akayaga bigatuma abarwayi bahaza barushaho kumererwa neza.

Kwa muganga hagomba kuba hari ibikoresho byose nkenerwa, bihagije ibitanda, intebe vandarateri zongera umwuka kizimyamyamyoto, isaha ndetse n'ibindi byose by'ibanze byakwifashishwa na muganga.

Hari igihe umurwayi agera kwa muganga bigasaba ko bamunyuza muri sikaneri kugira ngo babone indwara y'ukuri, bigatuma umurwayi agira guhangayika kandi ari serivisi z'ubuvuzi.

Ibitanda byo kwa muganga bigomba kugira inzitiramibu kugira ngo birinde abarwayi kuba barumwa n'imibu bityo bagakurizwamo kurwara izindi ndwara kandi bari bageze kwa muganga.

Nugera ku muhanda ukabona icyapa kiranga ibitaro bikuru uzahite umenya ko ntakindi kihatangirwa uretse serivisi zerekeranye n'ubuvuzi. Ubwo ufite ikibazo cyangwa uzi ugifite wamuyoborayo.

Ku nyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ni ingenzi cyane ko zigira icyumba cy'inama cyagutse gifite imyanya ihagije ku buryo igihe umuyobozi akeneye guhugura bamwe mu bakozi abahurizamo.

Ntibizagutangaze ugeze ku nyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ugasanga rwose hanze harateguye hateye intebe hari indabyo, iki ni ukugira ngo umurwayi uje ananiwe abanze yicare aruhuke cyangwa se n'undi muntu wese ahategerereze.

Ku kigo nderabuzima ni ahantu heza kandi hibanze hatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zigiye zitandukanye, igihe ufashwe n'uburwayi ubwo aribwo bwose ni byiza cyane ko wihutira ku kigo nderabuzima bakagusuzuma.

Ntabwo biba byemewe kwinjira mu cyumba kirimo muganga n'umurwayi, undi muntu wese ushatse kuza ategerereza hanze kugeza igihe muganga ubwe yamuha uburenganzira bwo kwinjira.

Iyo umubyeyi ajyanye umwana kwa muganga kumupimisha ibiro, ndetse no kureba uko ubuzima bwe bw'imikurire buhagaze, muganga amwambika agakapu kamufata ku buryo atagwa, ubundi akamushyira ku munzani umwana yisanzuye.

Inzu ya serivisi zitangirwamo ubuvuzi igomba kuba ifite ubwisanzure buhagije, ufite parikingi, ifite aho abantu bafatira amahumbezi kandi biba byiza ifite na bandalore igaragaza neza serivisi zatangirwa.

Kwa muganga haba hari igitanda bicazaho umuntu urembye cyane, gifite amapine kugira ngo igihe bikomeye babe bamwinjiza mu cyumba cyisumbuyeho bakomeze kumukurikirana.

Iyo ugeze ku bitaro bikuru, usanga ibintu byaho byose bisobanutse, biri kuri gahunda. Hari ibyapa biyobora, aho abavurira amaso bakorera, aho ab'amenyo, ku buryo bifasha abarwayi guhita babona aho berekeza.

Ni ihame ko ku bitaro bikuru bagira icyumba cyihariye bajyanamo abarwayi barembye cyane, kugira ngo bitabweho n'abaganga b'inzobere hato bitabaviramo kubura ubuzima.

Icyumba cyo kwa muganga banyurizamo umuntu mu cyuma, kigomba kuba giteguye kirimo za kamera zihagije, umwuka uhagije, urumuri ruhagije, kandi hari abaganga.

Si byiza gutererana abantu bafite ikibazo k'ingingo, mbese babana n'ubumuga, abagendera ku tugare, tuba dusabwa kubaba bugufi, tukajyana nabo kugira ngo nabo biyumve ko ari abantu kandi bafite uburenganzira.

Sangwa porikirinike ni ikigo cyikorera gitanga serivisi zigendanye n'ubuvuzi. Umuntu wese ufite ikibazo arakigana, kikamufasha, bakamuvura agakira.

Si byiza gushyira amashusho ateye ubwoba nk'ay'inyamaswa cyangwa se abantu bafite amacumu imbere y'igitanda cy'umurwayi kuko ashobora kubireba agahahamuka bigatuma akomerezwa.

Inyubako ya serivisi zitangirwamo ubuvuzi, igomba kuba ifite isuku rwose, ifite ubusitani ifite imihanda ihagera myiza, ifite parikingi kandi hari n'idarapo rigaragaza ko ikorera mu gihugu.

Ni byiza ko umugore wese utwite asanga muganga akamusuzuma, akamenya uko ubuzima bw'umwana uri mu nda buhagaze, ndetse n'ubw'umubyeyi we, yaba hari ikibazo akamufasha kugira ngo bombi umubyeyi n'umwana bakomeze kubaho mu buzima bwiza.

Iyo urwaye indwara ukajya kwa muganga ku kigo nderabuzima, ntibabashe kuyivura, ni byiza ko bakohereza ku bitaro bikuru kuko ariho hisumbuye, ukaba ari ho ukurikiranirwa.

Ubuvuzi bwa mbere ntabwo ari imiti, ahubwo kuganiriza umuntu umunezerewe umwishimiye naho yaba arwaye atangira kwiyumvamo akantu k'umuneza, bigatuma yumva hari imbaraga yindi imurimo.

Ku bitaro bikuru ni ihame ko haba hari icyuma cya sikaneri, ku buryo umurwayi ufite indwara y'amayobera cyangwa se yarakomeretse bikomeye mu mubiri bamunyuza mu cyuma bakareba uko ubuzima bwe buhagaze.

Ni byiza ko ugira umutoza uzajya ugufasha gukora siporo, akakunanura nko mu mavi, kugira ngo arambuke neza, amaboko ndetse n'izindi ngingo zitandukanye, ukajya ugira ubuzima bwiza.

Ni byiza ko urubyiruko tugira umuco wo gukora siporo ngororamubiri kugira ngo imibiri yacu ikure neza bityo tugire ubuzima bwiza bw'ahazaza kandi twibuka kubishishikariza n'abageze mu zabukuru kuko nabo iyo gahunda irabareba.

Iyo umurwayi yagize ikibazo cyo kuvunika ukuguru bakamugeza kwa muganga, barabanza bakamushyiraho imbuza guhina kugira ngo amagufwa adatandukana, bakabona kumukurikirana ari ahantu hatuje.

Ubuvuzi bugaragaza ko kunywa amazi wamaze kugwa umwuma atari byiza, ahubwo kunywa amazi ugomba kubigira umuco ukayanywa utari wagira inyota cyane.

Gukora siporo byonyine ntabwo bihagije, ahubwo ugomba kurenzaho kurya indyo yuzuye. irimo, amagi, amafi, ibishyimbo, imboga, ibitunguru, imineke, imboga rwatsi, inyanya, betarave kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza.

Siporo ihoraho y'umuntu ku giti cye ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bituma umubiri wacu uhorana itoto, ugakora neza kandi bikarinda indwara zirimo nk'imivuduko, rubagimpande n'izindi zitandukanye.

Gukora siporo inanura amaguru n'umugongo ni byiza kuko bituma utarwara imitsi yaba iy'amaguru cyangwa umugongo, ahubwo ubuzima bwawe bugakomeza kugenda neza, ikindi kandi birinda umuvuduko w'amaraso.

Kugira ngo imibiri yacu tumere neza kandi ikomeze gukora neza tugomba gukora siporo ihagije kandi ihoraho hanyuma tukarenzaho kurya indyo yuzuye irimo imbuto imboga ibikomoka ku matungo ibinyamisogwe.

Muganga ashobora guhitiramo siporo uzajya ukina bitewe n'uburyo abona ubuzima bwawe. Ni byiza gukurikiza inama muganga yaguhaye ugakora siporo yaba ari ugukina umupira w'amaguru yaba ari ukwiruka, yaba ari ugusimbuka umugozi mbese ugakurikiza inama ze.

Siporo zirengeje urugero zinaniza imikaya n'imyakura bigatuma umuntu ashobora kugira ikibazo ni byiza ko dukora siporo zitananiza imitsi yacu.

Kunywa amazi biranezeza cyane cyane iyo ufite inyota uba wumva umeze nk'uri gushya munda, wumva amaraso atari gutera neza ni byiza kunywa amazi rero ari mu rugero kandi afite isuku.

Ntabwo ari ahantu hose wemerewe kuba wafata imiti, keretse kwa muganga cyangwa muri farumasi zagenzuwe n'ikigo cy'ubuziranenge, kikemeza ko gitanga imiti mizima kandi yujuje ubuziranenge.

Gukora siporo bijyana no kunywa amazi, ni ingenzi cyane niba ugiye muri siporo kwitwaza agacupa k'amazi igihe uri umusore kuko umubiri uba wasohoye isukari nyinshi.

Iyo mu miryango yacu hajemo amakimbirane bidukururira ingaruka, ugasanga dukoze ibintu byose tubikorana umujinya, si byiza ko twanywa amazi dufite agahinda kenshi, ahubwo tugomba byose kubitegura nk'uko umuntu ategura gufata amafunguro.

Gukora siporo buri munsi wakuyemo agapira ko hejuru wambaye agakabutura, ndetse n'isaha uri kujya ureberaho iminota ukora, biba byiza kuko bituma n'umubiri uhumeka neza ibinure bigasohoka.

Hari uburyo bwinshi butandukanye bwo gukora muri siporro ngororamubiri, hari ukwiruka, hari ugukina umupira w'amaguru, hari ugukora uruziga, mugasimbuka, mukinanura, ibyo byose bituma amaraso ndetse n'umubiri bikora neza.

Igikomere k'ivi ni kimwe mu bikomere biba bihangayikishije niyo mpamvu abaganga bagomba kuhapfuka bigengeseye kuko hashobora kukuviramo kanseri y'ivi, niba ugize igikomere mu ivi cyangwa mu zindi ngingo urasabwa kwihutira kujya kwa muganga bakagupfuka.

Abaganga basuzuma indwara zijyanye n'umutima bakoresha agakoresho bita akumvamutima, bakumva imiterere y'umutima wawe uko utera, bigatuma bamenya uko ubuzima bwawe buhagaze.

Ni byiza cyane ko ibikoresho bikoreshwa n'abaganga ba bibitse ahantu heza cyane mu gakapu aho bitabasha guhura na mikorobe iyo ariyo yose ikaba yabyangiza.

Biba byiza iyo umuntu umuhaye imfashanyigisho ishushanyijeho ubu bwoko bwa siporo umuntu yakora zamufasha kumugorora umubiri we zigatuma agira ubuzima bwiza.

Umukino wa basiketi ni umwe mu mikino igezweho hano mu Rwanda, abafana bakunda kuza kwihera ijisho umukino wa basiketi kugirango bibonere ibyishimo n'amarangamutima by'abakinnyi bamwe na bamwe bakunda.

Hari igihe ugera kwa muganga, uri umuntu w'umusore rwose, mu gihagararo umeze neza ariko wumva urwaye, bakakubwira ko ikibazo ari uko utajya unywa amazi ahagije, ni ngombwa rero uhita ukurikiza inama baguhaye.

Zimwe mu ngaruka zo kudakora siporo, harimo kudakomera mu ngingo, aha twavuga nko mu ihuriro ry'amagufwa mu ivi, iyo udakora siporo hashobora kudakomira hakajya hahinyagurika, ndetse wagenda ukumva ubangamiwe, ni byiza ko dukunda siporo.

Mu marushanwa agiye atandukanye ayo ariyo yose, ni byiza ko haba hari abakorerabushake kugira ngo bafashe umukinnyi uhuye n'ikibazo ashobora kuba yikanze umutsi, cyangwa se agize ikibazo cy'umubiri bigatuma atabasha kubona umwitaho, abakorerabushake nicyo gihe cyabo cyo kumuba bugufi.

Ni byiza cyane kujya muri siporo, wambaye twa ekuteri tuguha umuziki, kandi ufite n'agacupa k'amazi kugira ngo niwumva umubiri uguye umwuma, uze gusomaho ukomeze siporo.

Iyo ukurikije amabwiriza muganga yaguhaye mu gukora siporo biramunezeza kandi nawe bikugirira akamaro, bituma umubiri wawe ubaho neza ukagira ubuzima bwiza igihe cyose ukaba ufite imbaraga z'umubiri.

Iyo abakinnyi bari gukina umupira cyangwa se bari mu yindi myitozo itandukanye, baba bafite ibyago byo kuba bagiriramo n'ingorane nko kuvunika. Ni byiza ko haba hari bulankari yakwifashishwa iterura umwe muri bo wagira icyo kibazo.

Umugore utwite aba asabwa kunywa amazi aringaniye, ubundi akarya ibiryo birimo intungamubiri zuzuye, poroteyine, vitamini, kugira ngo umwana uri mu nda agire ubuzima bwiza kandi ntiyibagirwe gukora siporo nkeya zitamuvuna.

Bigaragara ko abamamaa iyo bagiye muri siporo biziritse agatambaro mu gahanga biborohereza kunanirwa kandi bituma bagororoka ndetse n'imibiri yabo ikamera neza cyane cyane amaboko ntibagire ibizigira nk'iby'abagabo.

Kunywa amazi meza ahagije kandi ukagira igihe gihoraho cyo kuyanywa, ni umuti ukomeye cyane ku mubiri wa buri muntu, bituma amaraso atembera neza, mu mubiri hagahoramo amazi ku kigero kiringaniye, bigabanya umubyibuho ukabije, bityo tukagira amagara mazima.

Mu gihe wakoze siporo zinaniza umubiri ukumva wabyimbye ibirenge ndetse imitsi iri kukurya, si byiza ko ushyiraho ibyo ubonye byose ahubwo wajya kwa muganga.

Bijya bigaragara ko kunywa amazi arengeje urugero na byo ari bibi, kunywa amazi ni byiza ariko igihe tunyweye amazi ari mu rugero, ni ngombwa tuge tunywa amazi angana n'ibiro dufite, kuko nibwo ubuzima bwacu buzagenda neza.

Birashoboka cyane ko ushobora kugira imvune y'ukuguru, ariko iyo ugejejwe kwa muganga muganga aragukurikirana akabanza akoza iyo mvune, yarangiza akayishyiraho igipfuko, bityo akagukurikirana kugeza ubuzima bwawe busubiye uko bwari bumeze.

Gukora siporo ku bakobwa b'inkumi ni byiza cyane bituma uruhu rwabo ruhorana itoto bagahorana akamwenyu, kandi ingingo zabo zikagororoka yaba umugongo, yaba amavi, yaba ibirenge, bakaba basa neza.

Ku bitaro bikuru ni ngombwa ko haba hari sikaneri, kuko abarwayi benshi baza bafite indwara z'amayobera cyangwa amagufwa yabo yarangiritse, bikaba ngombwa ko babanyuza muri sikaneri ngo babereke uko bahagaze.

Kwa muganga haba hari ibikoresho byose nkenerwa umuganga yifashisha. Twavuga nk'impakasi, inzembe amacupa, inshinge, papejenike ndetse n'ibindi byose yakenera igihe ari gufasha umurwayi.

Igihe wahisemo gukora siporo zihoraho, ni byiza no kugena ibyo uzajya urya, kugirango umubiri wawe umere neza harimo, nka sereri, pavuro, inanasi, irongi, avoka, umutobe w'indimu ugakomeza kubaho neza.

Hari igihe umubyeyi ajyana umwana kwa muganga, maze bakamusuzuma ndetse bakazana n'itoroshi ryabugenewe, bakamurika uruhu rwe n'amaso, bakareba uko bikora.

Buri munsi uko bwije n'uko bukeye minisiteri y'ubuzima ihora idushishikariza gukora siporo ngororamubiri, ibidushakira ko twagira ubuzima bwiza iturinda kurwaragurika buri munsi, ni byiza gukora siporo.

Gukora siporo zimwe si byiza, ni byiza ko dukora siporo zigiye zitandukanye harimo, n' izinanura imitsi y'amaguru, y'amaboko, y'ibirenge kugira ngo buri gice na buri rugingo rw'umubiri rwose rugerweho na siporo kuko ingingo zose zuzuzanya.

Igihe dukora siporo zijyanye n'amaguru, mu ivi n'amagufwa. Ni byiza ko dukora siporo ziringaniye, kugira ngo bitatuviramo ko twakangirika, maze amagufwa agacomokoka.

Abantu benshi bajya bahinamirana ibice bimwe by'umubiri, ukaba wamubwira uti yikore mu irugu bikamunanira cyangwa se yikore ku mugongo bikamunanira, biba biterwa n'uko atamenyereye gukora siporo.

Ntabwo ari igitangaza kubona umuganga wabyigiye afashe itoroshi akamurika umwana mu maso, aba agira ngo arebe uko ubuzima bwe bumeze n'uko amaso ye akora.

Iyo ugize ikibazo cy'imitsi y'amaboko, bitewe n'uko udakora siporo zihagije, ni byiza ko wegera abaganga bakaguha imiti usigaho maze imitsi ikarambuka.

Siporo yo kwiruka igira ibyiza byinshi, cyane cyane ku maguru n'amaboko kuko birarambuka amagufwa agakomera kandi umutima ugatera neza, ni byiza ko twajya dukora siporo zo kwiruka kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Iyo ugeze mu nzu ikorerwamo siporo y'imyidagaduro ni byiza ko ureba icyuma munganya ubushobozi kandi ugakora siporo zitananiza umubiri kuko ari kimwe mu kwita ku buzima bwawe,

Abantu bakora mu nzego zifite aho zihuriye n'ubuvuzi, usanga akenshi bakunda kwambara uturindantoki, udupfukamunwa ndetse bakambara n'imyenda iriho akamenyetso ko guteranya kariho ibara ry'umutuku, baba bisobanuye ko bakora muri serivisi z'ubuzima.

Kunywa amazi meza ahagije ni kimwe mu bintu byiza, bigabanya ibinure mu mubiri, bigatuma umuntu abaho neza anezerewe, kandi atarwaragurika bya hato na hato.

Ni byiza ko buri muntu wese agira amakuru ku butabazi bw'ibanze, kugira ngo igihe uri kumwe na mugenzi wawe akagira ikibazo gitunguranye, ube wamufasha kugera kwa muganga.

Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko ibyo turya ari byo turi byo niyo mpamvu tugomba kurya indyo yuzuye iriho nibura imboga ibikomoka ku matungo kandi ntitwibagirwe gukora siporo kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inkweto zose ntabwo zemerewe kujyanwa muri siporo, abaganga bavuga ko, ugomba kujyana inkweto itaremereye, yoroheye, iragufasha kwirukanka kandi itakubangamira.

Gukora siporo rusange ni bumwe mu buryo bworohereza abantu ndetse bukanafasha abantu kwitabira siporo. Iyo umuntu akunda kujya muri siporo rusange yiyumvamo imbaraga zo gukorera hamwe nk'itsinda.

Si byiza kujya mu cyumba cyo gukoreramo siporo wenyine kuko uba ushobora kugiramo ikibazo k'intege nke cyangwa se umubiri ukaba waguhinduka ubwo rero uba usabwa gukora siporo munganya ubushobozi.

Kugira igikomere cy'ivi birababaza, ariko ntabwo uba wemerewe gukuraho igipfuko, uretse umuganga wenyine ugomba gusuzuma akareba nimba icyo gisebe kirimo kigeje igihe cyo gukira akagikuraho.

Abaganga bonyine ni bo bashobora kwereka umubyeyi uko azajya ananura umwana kugirango imitsi, imbavu, amaboko, amaguru babigorore neza azabashe gukura nta kibazo afite, iyo ubikurikije neza umwana wawe akura neza kandi anezerewe.

Ni byiza ko muganga w'abana aba afite ibikoresho bibapima ibiro, bibapima umutima bikumva ukotera, bikabapima mowake, uburebure ndetse n'imikurire yabo.

Iyo ufashe amazi ukayakura mu ibirika ukayasuka mu kirahure, ni byiza cyane kuko bituma umenya ingano y'amazi ugiye kunywa mu mubiri. bigatuma ubuzima bwawe bukomeza kugubwa neza.

Iyo ugiye kunywa amazi meza ni byiza ko ubanza ukayasuka mu kirahure giteguranwe isuku gifite ubuziranenge kugira ngo atagutera indwara bigatuma utamererwa neza mu mubiri.

Kwa muganga haba hari icyuma gipima umuntu kikamwereka ibiro afite, bakamugira inama y'uburyo yakora siporo ibiro bye bikagabanuka cyangwa bikiyongera bitewe n'ingano afite.

Ni byiza kandi ni ingirakamaro ko tudatererana umuntu ugize ikibazo ari muri siporo. Niba ari umusore uguye, ni ngombwa ko abandi bantu nka babiri baza bakamwegera, bakumva uburyo ubuzima bwe buhagaze, yaba yakomerejwe bakamujyana ku kigo nderabuzima.

Ku bantu bakora siporo, zo kwiruka, hariho isaha ibafasha kumenya ibirometero, birutse, ndetse n'umuvuduko bakoreshaga.

Tugomba gukora siporo tugakora na masaje, ariko tugakora masaje ziringaniye, ku buryo zitari bwangize uruhu, kugirango umubiri ukomeze uhumeke kandi ukomeze umere neza.

Inzobere mu by'ubuganga zemeza ko gukora siporo ihoraho ari byiza cyane kuko bigirira akamaro gakomeye umubiri, bigabanya siteresi, bigabanya umuvuduko w'amaraso, bigafasha mu igogora kwigabanya, karori zitwika zo mu mubiri kandi bigatuma umuntu ahora aringaniye ari balanse.

Siporo y'umuntu ku giti cye ni bumwe mu buvuzi butuma amagufwa y'umubiri akomera, urugero nko gukora pompaje bituma amagufwa y'amaguru n'ayamaboko n'umugongo akomera nturwaragurike.

Gukora siporo ngororamubiri ni byiza cyane. Iyo ukinnye n’umupira biba akarusho, bituma ubuzima bwacu bubaho neza ndetse twazagera no mu masaziro, tugasaza tutarwara imitsi ndetse n’indwara za hato na hato.

Gukora siporo zihoraho bituma umubiri wawe umera neza, ibiro bikagabanuka n'imitsi ikarambuka iyo iterura ibyuma biringaniye, kandi biba byiza iyo utibagiwe kunywa amazi ahagije.

Kuvura bakoresheje imiti gakondo byagiye bitera imbere, kugeza n'ubwo bigeze no mu buvuzi rusange. Bakafata ibimera gakondo, bakabinyuza mu ruganda, bakabikuramo umuti mwiza.

Nta kintu na kimwe gituma bashyira imiti y'ibimera mu ducupa dufunze neza, ni ukugira ngo bayirinde ibe yamara igihe kirekire itangijwe na mikorobe.

Mbere habagaho gufata ibimera ukabihuriza hamwe mu isekuru ukabisekuramo agafu ukakanika warangiza ukagashyira mu icupa, ariko ubu bisigaye bitungarizwa mu ruganda mu rwego rwo kubyongerera ubuziranenge.

Imiti hafi ya yose tubona kwa muganga iri mu ducupa iba yaratunganijwe ivuye mu bimera bitandukanye, hanyuma bagapima ubuziranenge bwayo basanga bwuzuye bakayishyira mu mafarumasi no kwa muganga.

Ntidukwiriye na rimwe guhungabanya ibimera, kuko bitugirira akamaro gatandukanye harimo kutuvura, kudukurura umwuka duhumeka, kudukurura imvura n'ibindi byinshi cyane.

Gukoresha imiti y'ibimera gakondo, iyo yatunganirijwe mu ruganda ni byiza cyane, kuko iba ikungahaye ku budahangarwa, irwanya indwara nyinshi mu mubiri, kandi ikazirukana burundu.

Nyuma yuko begeranyije ibimera, bakabitunganyamo imiti, bayifungiye mu ducupa dutandukanye twa mili litiro mirongo itanu, mirongo irindwi kuzamura yewe na litiro, kugira ngo ibugwabungwe.

Gukoresha imiti y'ibimera gakondo ni byiza cyane, iyo yatunganyijwe mu nganda, igira umumaro utandukanye, iyo miti ni ibitunguru byayo, tungurusumu, tangawizi, umuravumba, indimu, ndetse n'ibinyampeke bibyara amavuta.

Ikimera bita ibobere; ni cyiza cyane ku buvuzi mbonera gakondo, kuko na cyo iyo gitunganirijwe neza mu ruganda, bakivanamo umuti ntagereranywa urokora ubuzima bwa benshi.

Iyo ibimera bamaze kubinyuza mu ruganda bakabikoramo umuti barawutunganya neza bakawushyira mu ducupa barangiza bakawujyana mu bitaro bakawushyira mu bubiko bwabugenewe.

Ikimera bita igitovu kigira ibibabi by'amahwa ndetse biragoye kuba wagifatisha intoki, ariko bigaragara ko gifite ubuhanga bwihariye mu gukiza indwara iyo gitunganijwe neza.

Ikimera bita ipera ni kimwe mu biti bivura indwara nyinshi ariko abantu badasobanukiwe, ariko biba byiza iyo gicishijwe mu ruganda bakagitunganya umuti wacyo ukagira ubwirinzi.

Indimu ni kimwe mu biti gakondo Imana yaturemeye bigira umumaro utandukanye, ibibabi by'indimo biravura, bivura umutwe, bibura umuriro n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, dusabwa kubikoresha neza tukabisigasira tukirinda ababihungabanya kugira ngo bitugirire akamaro Imana yabiremye.

Mu rwego rwo guteza imbere imiti ikomoka ku bimera basigaye babanza bagahomeka marama wamera utugemwe bakadushyira mu bihoho kugira ngo dukomeze twitabweho neza.

Hari ibimera gakondo bivamo imiti itandukanye iyo bikoreshejwe ku gipimo cyiza. Aha twavuga nk'uburo, indimu, uburabyo ndetse n'ibindi bimera byinshi, babitunganyiriza mu ruganda bikavamo imiti ivura.

Tangawizi ni kimwe mu bimera gakondo kivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye harimo nka giripe, umutwe, mu muhogo, umuriro, ni byiza cyane iyo uyifashe ukayiteka ukanywa umushongi wayo.

Naho waba wari urwaye indwara y'amenyo maze ugakurikiza inama wagiriwe na muganga, ugafata neza imiti yaguhaye ugakoresha umuti yakubwiye igihe uyoza, arongera agakira akamera neza.

Ikimera bita umuravumba ni ikimera cyiza cyane iyo gitunganirijwe mu ruganda kivamo umuti uvura inzoka zo mu nda amibe, tiniya n'izindi zitandukanye.

Mu bwoko bw'ibimera harimo n'indabyo. Lavenda ni bumwe mu bwoko bw'ururabyo rwiza cyane. Iyo rutunganijwe mu ruganda, umuti warwo na wo uvura indwara zitandukanye.

Ibihwagari iyo bamaze kubikoramo amavuta, barayatunganya, bakayashyira mu ducupa, barangiza bakayashyira kwa muganga, bakazajya bayaha abarwayi bayakeneye bakurikije uko bagiye babapima.

Ubushakashatsi bugaragaza ko ibimera ari ingenzi cyane kuko bivamo imiti ivura indwara zitandukanye ndetse bigaragara ko ivamo n'imiti ifasha ku bantu bubatse ingo.

Ttabwo wakwiyumvisha ukuntu ibimera bivamo imiti ku rwego ruhambaye ariko nicyo kwiga bimara, abamaze kwiga amashuri yabo barabitunganya bakatuvanamo imiti yo kurokora ubuzima bwacu.

Umuti w'igikakarubamba ufunze neza mu gacupa, usigaye uboneka ahantu hose mu mavuriro atandukanye kandi uvura indwara ziganjemo iz'inzoka.

Ibimera bivamo imiti myiza kandi yujuje ubuziranenge ni byiza ko tubisigasira aho biri hose tukabirinda icyabyangiza kigahungabanya ubuzima bwabyo.

Bumwe mu buvuzi gakondo abanyarwanda bajyaga bakoresha; bafataga ibimera bakabisekuririra hamwe mu isekuru, bakabikamura, umushongi wabyo bakawushyira mu gacupa bakawunywa.

Mu Rwanda, ibigo by'ubuvuzi, bikomeza kwiyungikanya ubutitsa, iki kikaba igisubizo ku barwayi n'abandi bantu bakunda kubikenera, ubu Akagera Medesinizi na ko kiyongeye mu bigo bitanga ubuvuzi rusange.

Iyo imiti gakondo ikomoka mu bimera nk'ibitunguru, tangawizi, indimu n'ibindi, itunganirijwe mu ruganda ivamo imiti myiza ibasha kuvura indwara z'amoko yose kandi vuba, ni byiza gukoresha iyo miti ya gakondo.

Bimwe mu bimera gakondo bivamo imiti harimo igikarubamba, tungurusumu, imizi y'ibiti bikomeye, ibi iyo bitunganijwe mu ruganda bivamo imiti imwe ivura indwara zikakaye zisa nkaho zananiranye.

Tangawizi ni kimwe mu bimera gakondo imana yaremye bifasha mu buvuzi rusange, tangawizi iyo itunganirijwe mu ruganda ivura indwara nyinshi zitandukanye zirimo umutwe, mu muhogo ndetse n'izindi nyinshi.

Biranezeza kubona ku meza hariho imbuto cyane cyane nk'imyembe, imyungu, amaronji ayangaya y'umutuku mo imbere, rwose akungahaye kuri vitamini na poroteyini byongerera umubiri ubudahangarwa.

Ni byiza ko dukoresha ibinini twandikiwe na muganga cyangwa se ibyo twaguze mu mafarumasi yizewe, kuko hari abantu bafata ibinini bakabipirata ukaba wabinywa bikagutera indwara aho kugukiza.

Abantu benshi bizera ko imiti gakondo nka tungurusumu, inanasi, ibitunguru, ibigori, kurya imbuto bihagije batagomba kwirwa bajya kwa muganga.

Bigaragara ko iyo ibimera ubifashe ukabinyuza mu ruganda havamo umuti mwiza, iyo uwushyize mu gacupa uba ubonye ubwirinzi bwo kuba wamara igihe kirekire utagiyemo mikorobe.

Iyo bafashe ibiti bitandukanye bakabihuriza hamwe bakabitunganyiriza mu ruganda bivamo umuti umwe, bakawushyira mu gacupa kugira ngo ugire ubwirinzi bwo kutangizwa na mikorobe.

Ibumba ni umwe mu miti mbonera gakondo imana yaremye kuri iyi si ukaba ugira uruhare mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo utunganijwe mu ruganda uvura indwara zimwe na zimwe kandi zisa naho zananiranye, gukoresha ibumba ni byiza cyane.

Ikimera bita umuravumba, ni kimwe mu bimera Imana yaremye gifite ibibabi birebire by'icyatsi kibisi bimeze neza, iyo gitunganijwe mu ruganda kivamo umuti mwiza, uvura indwara zose kandi nyinshi.

Abanyarwanda bo hambere bajyaga bivurisha igiti bita igikakarubamba bitewe n'ubukare kigira uburure n'uburyo kivura ariko nanubu cyatunganijwe mu ruganda ubu no mu mavuriro atandukanye gisigaye kibayo.

Gukoresha umutobe wo mu bimera gakondo ni byiza cyane ku buzima bwacu kuko uyu mutobe urinda zimwe mu ndwara zitandukanye, ni byiza ko twese twashishikariza kujya kujya dukoresha umuti wo mu bimera gakondo.

Mu bubiko bw'imiti haba harimo uducupa twinshi tugiye dufungiyemo imiti ivura indwara zitandukanye, bisaba ko umuganga ubisobanukiwe aza agakuramo umuti uhwanye n'indwara yabonye.

Imana yaremye ibiti bitandukanye kandi ibyo biti bitugirira umumaro, ni byiza ko dusigasira amababi yabyo kuko ni umuti ukomeye uturinda indwara zitandukanye kandi tukanayifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Si byiza kubona ibintu by'akajagari biri mu rugo iwawe, ugasanga ibikombe, inkono, imifuka, amasahani byose birunze ahantu hamwe, ni byizayiza ko utegura iwawe hakarangwa n'isuku.

Tangawize, tungurusumu, intagarasoryo ni bimwe mu bimera Imana yaduhaye gakondo ariko bivura indwara nyinshi zitandukanye; niyo mpamvu tuba dusabwa kubisigasira aho tubibonye tukarinda ababyangiza kugira ngo igihe turwaye tujye tubyifashisha.

Ukuntu kera bivuraga bakoresheje ibimera biratangaje. Ariko ubu, hajeho ikoranabuhanga. Aho ibyo bimera babikusanyiriza hamwe, bakabitunganya, bakabikoramo umuti wujuje ubuziranenge.

Kera ibihwagari byajyaga bivamo amavuta yo kurya gusa, ariko ubu bisigaye binyuzwa mu ruganda, bigatunganywamo amavuta y'umuti avura indwara zimwe na zimwe zigenda zifata abantu muri iki gihe.

Abanyarwanda bo hambere bari bazi kwishakira imiti ikomoka mu bimera, aho bafataga ibimera bimwe na bimwe nk'imiravumba, kapusine, tangawizi bakabisekura bakabivangira hamwe bakavanamo umuti ubavura indwara.

Abanyarwanda bo hambere bajyaga bakoresha ikimera bita gapusini, iki kimera cyabavuraga indwara nyinshi zirimo iz'ubuhumekero, iz'umuriro mwinshi, izo kubabara mu mara ariko ubu byabaye byiza kuko bagitunganije no mu ruganda, ubu wagisanga no mu mavuriro atandukanye.

Ikimera gifite ibibabi byiza, birebire by'icyatsi kibisi, kivamo umuti mwiza uvura indwara zitandukanye iyo utunganirijwe mu ruganda.

Igikakarubamba bagitunganyiriza mu ruganda bakavanamo umutobe bakawushyira mu gacupa, uwo mutobe ukajya uvura indwara zitandukanye zirimo inzoka zo mu nda na amibe.

Urusobe rw'ibimera imana yaremye, ni rwo rutumye tugeza magingo aya. Kuko ni rwo rwifashishwa mu gutunganya imiti. Maze nayo ikarokora ubuzima bwa benshi tukagumya kubaho.

Bigaragara ko inanasi, umuneke iyo babitunganirije mu ruganda bivamo umuti mwiza ukungahaye ku myunyu ngugu, ku buryo iyo bayihaye umurwayi ahita azanzamuka agakira.

Ikimera cy'umwembe iyo gitunganirijwe mu ruganda kivamo umuti mwiza, ushobora kwifashishwa mu buvuzi rusange igihe bawushyize mu ducupa bakawusigasira ngo atangizwa na mikorobe.

Ikimera bita avoka kirifashishwa cyane mu buvuzi rusange, kuko iyo gitunganijwe neza mu ruganda, kivamo umuti uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ni byiza ko tubisigasira.

Umuravumba ni kimwe mu bimera gakondo imana yaremye iremeye abantu bose bo ku isi, ariko nubwo tutabizi kigira umumaro utandukanye kivura indwara nyinshi harimo n'inzoka zo mu nda zananiranye za amibe, nakugira inama yo gukoresha umuravumba.

Hari imiti ikomoka mu bimera gakondo ivura ibikomere by'umugongo, iby' amavi, iby' igufwa ry'urutirigongo, iby'inkokora, iby' igufwa ry'urutugu, iby' ibikanu, iby’ ijosi ni byiza gukoresha uyu muti igihe wawandikiwe na muganga.

Ikimera bita umuravumba, iyo ufashe ibibabi byacyo ukabishyira mu gatasi ugashyiramo amazi, ugashyiramo ubuki, uyu ni umuti ndetse bamwe bavuga ko uruta iyo kwa muganga.

Gukoresha umuti gakondo wo mu bimera ni ingenzi cyane kuko niwo wonyine ushobora guhagarika amibe ku kigero cyo hejuru ndetse n'izindi ndwara zitandukanye harimo inzoka z'amoko yose.

Ibimera byose tubona byifashishwa mu gukora imiti ikoreshwa mu mavuriro atandukanye cyane cyane biriya tubona bifite amababi y'icyatsi kibisi kandi asataguyeho ukuntu.

Nta kindi gituma bategura ibimera bitandukanye bakabyororera mu ivasi kugira ngo bikure neza bibona amazi n'imyunyu ngugu bihagije mu kugira ngo bazabikoremo imiti.